Nk'uko bigaragara, aba ni abanyeshuri, bari kumwe n'uri kubigisha ,biragaragara ko bari kwiga, ibintu bijyanye n'ibinyabutabire.

Nk'uko bigaragara hano, ni abanyeshuri bari kumwe n'umwarimu wa bo, bari gukora paratike y'iby'ikoranabuhanga.